Umugore wambaye ijiri y'umuhondo uri kumwenyura linete n'ingofero y'umuhondo uri mu kazi k'ubwubatsi agira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.

Imyenda iri mu iduka ry'imyenda imanitse ku twuma twazo.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Inzu y'igorofa ifite ibirahure isize irangi ry'umweru imbere hari abagabo batatu bahagaze, iruhande rwabo hari imodoka ifunguye.

Urukuta rusize ibara ry'umweru ruriho ikirahure kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye yandikishijeho amagambo ari mu cyuma, imodoka ebyiri z'umukara.

Imodoka ikoresha mu bwikorezi isize amarangi y'umweru umukara ku mpande n'umutuku.

Imodoka iri mu muhanda yundayi tokisoni bibiri na cumi miliyoni cumi n'ebyiri.

Abagabo batatu bambaye amashati utujiri undi yambaye isurubeti y'umutuku ufite aka ambaraje k'umutuku mu ntoki bari imbere y'ikamyo isize ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze, bafite urufunguzo runini mu ntoki, rwanditseho amagambo atukura, inyuma hari imodoka itwara imizigo, ikamyo isize ibara ry'umweru.

Ibiti biri mu busitani, imodoka isize ibara ry'umweru, bibiri na cumi n'umunani, suzuki siyazi igurishwa ku giciro miliyoni cumi n'umunani.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, amafaranga mu ntoki, imashini iri kubara amafaranga, amafaranga aboshye ari imbere ye menshi.

Amafaranga ariho umubare gatanu zeru zeru, ariho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara, banke nkuru y'u Rwanda n'inka, umukono, amafaranga magana atanu.

Igiceri kiriho insina, igitoki cyanditseho amagambo n'umubare banki nkuru y'u Rwanda ibihumbi bibiri n'icyenda.

Intoki zifashe igicupa kirimo umwimerere w'umutobe w'amatunda gitegurwa n'uruganda rw'Inyange.

Amacupa arenze rimwe y'amazi afite ibara ry'ubururu yandikishije amagambo y'ubururu nili.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Irindazi ku isahani y'umweru ishushanyijeho uturabyo tw'umutuku, seriviyete y'umweru, intebe y'ubururu n'igitambaro.

Abagore babiri bari kurebana, bari kumwenyura, bari guhana serivise zitandukanye.

Umuntu ufashe amafaranga menshi n'andi ari munsi, imwe iriho umugabo w'umuzungu, imbere ye hariho ijana.

Intoki zirabura, zifashe amafaranga menshi, ahambiriye mu dukobo tw'umweru, afite ibara ry'umweru.

Intoki zifashe amafaranga menshi ariho umuzungu n'ingano yayo.

Amafaranga menshi ahambiriye yegeranye yandikishijeho umubare icumi.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki munsi hariho andi mafaranga menshi, amafaranga ariho agaciro ka rimwe hariho umuzungu.

Intoki zifashe amafaranga, ariho umubare makumyabiri n'igorofa.

Umuryango hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara umutuku ndetse n'ubururu n'umweru.

Urukuta rusa umuhondo ruriho amagambo yanditse umutuku, andi asa ubururu. Ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga.

Inzu isize irangi ry'umweru, akaryango gasize ibara ry'umutuku, intebe enye n'imeza.

Intebe ziri mu busitani, imeza iri hagati yazo ibajije mu mbaho.

Intebe zisize kumaguru ibara ry'umukara nimeza risize amaguru irangi ry'umukara n'umutako mu kinyarwanda bakunze kwita imigongo.

Inzu isize amabara y'umweru, amadirishya asize ibara ry'umukara, imeza yegerejweho n'intebe.

Intebe ziri mu ibara ry'icyatsi ryijimye rifite ubusego buriho akagozi kazengurukishije ibara rya zahabu, imbere Mo hagati harimo intebe zisize ibara ry'umukara, ikigega kiri mu ibara ry'umukara n'ibiti byinshi.

Intebe ziriho imisego ifite ibara ry'umweru, hagati imeza isa nk'intebe.

Inzu iri kwaka amatara iriho n'aho abantu bicarira baganira.

Ubusitani burimo ibiti n'imitaka ifunguye inzu iri imbere yabo y'amatafari isize amarangi atandukanye, umugabo uri kugenda iruhande rw'iyo nzu.

Igorofa ndende iri kwaka amatara umuhanda ucamo ibinyabiziga ipoto ry'umuhanda ricanye itara.

Igorofa rirerire risize irange, ibiti amazi menshi ari mu ibara ry'ubururu.

Igorofa risize ibara ry'umweru, imitaka, amazi menshi ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini kirimo amarido afunze afite ibara ry'umweru, amadirishya, intebe nyinshi n'imeza nyinshi zifite ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'inama kinini kirimo imeza, intebe, uducupa tw'amazi ku meza, urukuta rumuritseho urumuri rurimo ikirangantego gishushanyije umutuku.

Icyumba gifite urukuta rusize ibara ry'umweru, imeza iri mu ibara ry'umukara intebe y'umukara iteretseho urupapuro rw'umweru n'umutako.

Umugore usutamye, uri gucuruza imbuto n'imboga, wambaye isengeri y'umukara, ukenyeye igitenge, wambaye igitambaro mu mutwe, cy'umukara.

Imitako myinshi imanitse ku rukuta rusize ibara ry'umukara.

Ikiganza gifashe terefone mu ntoki mugenzi we yambaye umwenda w'ibara ry'umutuku, ufite terefone mu ntoki zegeranye.

Abantu barenze umwe, begereye akazu gasize mu ibara ry'umuhondo, bari guhabwa serivise, hegereye umutaka ufite ibara ry'ubururu.

Akazu k'umuhondo kanditseho emutiyeni, imbere hahagazeho umukobwa, kegeranye n'akazu k'umutuku, gahagazeho imbere umukobwa.

Ibinyabiziga biri mu muhanda byicayeho ababiyobora, bambaye imyenda y'umutuku yandikishijeho amagambo y'umweru n'ingofero z'umutuku ziriho ibirahure.

Igorofa rirerire risize amarange atandukanye, urukuta rw'amatafari, ibyatsi, icyatanu cy'idorari ku kwezi ubona inzu i Kigali mu Rwanda, idarapo ry'igihugu, parikingi.

Urukuta rusize ibara ry'umweru n'igisenge gisize ibara ry'umweru, akabati kagufiya, ibihumbi magana atandatu ku kwezi ubona ibyumba bibiri, aporotoma iri i kigali i Remera.

Icyumba kirimo utubati turi mu ibara ry'umweru, firigo iri mu ibara ry'umukara, itara riri kwaka umweru, hano hari inzu i Kigali mu Rwanda ku madorari icyatanu.

Umuryango ukinguye idirishya, ngaya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'u Rwanda agura muri Kigali Rwanda idarapu ry'igihugu Kabeza umujyi wa Kigali.

Inzu ifite amabara atandukanye, igipangu cy'umukara iherereye Kabeza, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Inzu igeretse mo indani hari kwaka amatara, ni aparitoma iri kibagabaga, ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu, ibyumba bibiri n'ubwiherero bubiri.

Inzu ikodeshwa Kigali, Kicukiro ibyumba bibiri ubwiherero bumwe ku mafaranga magana abiri mirongo itanu ku kwezi ifite akabaraza kariho amabati hejuru giririyage n'ibigega hejuru.

Inzu isize ibara ry'umweru, imiryango n'idirishya asize ibara rya kaki, ibyumba bitatu, inzu igurishwa, Kimironko, ku mafaranga ibihumbi magana ane.

Inzu isize amabara atandukanye ifite ibyumba bine, ubwogero bubiri, i Batsinda Kagugu ku giciro ku giciro ibihumbi magana.

Igorofa risize amarange atandukanye ibiti biri mu mavaze inzu ikodeshwa ibyumba bitatu, ubwiherero bubiri ku madorari igihumbi ku kwezi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru muremure, uhagararanye n'umugore ufite imisatsi ifunze bari kureba imitako icuruzwa.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Abantu bari gutanga serivisi z’ubucuruzi ku baguzi bari kugurisha ibicuruzwa.

Umuhungu n'umukobwa bamaye imyenda iriho ikirangantego k'idarapo ry'igihugu. Ni imyenda y'abashinzwe umutekano imbere bari gukoresha mudasobwa.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Mituweri, ifite urupapuro rw'umuhondo, iriho amagambo yanditse, repuburika y'u Rwanda ikirangantego cy'igihugu minisiteri y'ubuzima n'umujyi wa kigali, akarere ka Kicukiro.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi imanuye, wambaye agasengeri k'umweru, ikoboyi, ufite akagare ibicuruzwa biri mu tubati.

Ibicuruzwa biri aho bicururizwa bipanze, umugore ufite aho abishyira wambaye agasengeri k'umweru, imisatsi, ijipo y'igitenge wirabura.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, uruhu rwirabura uri kumwenyura uri guhabwa serivise n'umuntu, imbere igikoresho cya mudasobwa.

Igorofa risize ibara ry'icunga ryandikishijeho amagambo y'icunga, abagenzi bari kugenda iruhande rw'iyo nzu, ibinyabiziga biri mu muhanda bihetse umugenzi.

Urupapuro rusa ubururu ruriho intoki ziri kwandika kuri mudasobwa, hariho amagambo avuga ngo uburyo ki wakohereza ibintu kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa.